Inzu nini yubatswe mu buryo bw'ingoro y'umwami, izwi n'urusengero rwa kiliziya gatolika, isengerwamo n'umuryango w'abakatolike, yubatse neza ifite ubusitani bwiza bupavomye ndetse bufite n'ubusitani bwubatswe n'indabo.

Imbabura zikozwe mu ibumba aho amakara ashyirwa haba hari hakozwe ku ibumba ndetse n'aho isafuriya haterekwa hasi haba hakozwe n'amabati, aho umuyaga winjirira kugira ngo amakara abashe kwaka hanyumayama ziba zasojwe zikajyanwa ku mihanda aho zigurishirizwa.

Mu muhanda hari umugabo utwaye igare, hirya ye hari umugore urimo kugenderera mu muhanda y'ibutaka yegeranye n'amazu abiri, harimo imwe nini yubatswe, ifite amadirishya ane ndetse aho hirya hariyo imodoka inyuma yuwo mugore iparitse.